Umugabo uri gutera ibihingwa umuti uhetse ipombo y'ubururu ifite umupfundikizo w'umuhondo, wambaye agakabutura k'umweru ndetse n'ingofero y'umweru n'ishati y'umukara.

Abagabo babiri bambaye ibisarubeti by'umukara ndetse na boti z'umukara, umwe yambaye ingofero y'umweru n'undi yambaye ingofero ijya gusa nk'ivu, bahetse ibikoresho mu mugongo byifashishwa mu gutera umuti mubi bihingwa.

Umugabo uri gutera indabyo umuti wambaye igisarubeti cy'ubururu gifite n'ingofero ndetse kirimo akabara k'umutuku, yambaye agapfukamunwa k'umweru ndetse n'uturindantoki tw'umweru, ahetse ipombo inyuma ari kugenda ateresha umuti.

Abagabo babiri bari gutera imiti ibimera bahetse amapombo, bambaye imyenda miremire, umwe afite ipombo y'ubururu bwijimye n'undi afite ipombo y'ubururu bwererutse.

Abarobyi bari ku kiyaga harimo babiri bari imbere mu kiyaga ndetse n'abandi batanu bafatanyije inshundura, batatu bahagaze mu bwato bw'imbaho ndetse inyuma yabo hahagaze undi mugabo.

Abantu bahagaze hakuno y'uruzi harimo umugabo wambaye ubusa hejuru ndetse hirya ye hari undi wambaye agapira gafite amaboko y'ubururu, hirya yabo hari undi wambaye agapira kajya gusa umuhondo, mu imbere mu mazi hahagaze undi mugabo wambaye ipantaro y'ubururu ndetse hejuru wambaye ubusa, bafite inshundura ifite ibara ry'umutuku.

Umugabo wambaye ishati y'umweru iciyemo imirongo n'isaha, ufite ibase mu ntoki irimo amafi ndetse inyuma ye hari inzu yubatse isakaje amabati, hakurya ye hari indi nzu ndende ifite amabati y'ubururu ndetse n'umutuku.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro ndetse uteruye indobo y'ubururu irimo amafi, ahagaze mu gishanga kirimo ibyuzi byinshi bitandukanye.

Abantu batatu bahagaze ahantu hamwe. Harimo abagabo babiri n'umugore, umugabo ufite agafuka k'ubururu mu ntoki wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'ubururu n'umugabo hakurya ye wambaye agapira k'ubururu, ipantaro y'ubururu ndetse n'inkweto z'ubururu, umugore wambaye agapira k'ubururu karimo ibara ry'umweru ndetse n'ijipo irimo amabara y'ubururu n'icyatsi.

Abagabo bahagaze hagati mumazi, bambaye imipira y'imikara irimo ibara rijya gu gusa umutuku, ndetse n'ingofero y'umukara, inyuma yabo hari akabase k'ubururu, ndetse n'indobo bijya gusa umutuku, ndetse imbere yabo hari inshundura ijya gusa ubururu.

Umwana uri kuvoma amazi mu mugezi wambaye agapantaro kumukara n'umupira w'umweru, uri kuvomesha ibase itukura.

Igishanga kirimo ibyuzi bitandukanye bigera ku munani, bitandukanywa n'imbago zisize ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi. Hakurya hari ishyamba ku gasozi ndetse hirya hahinze ibihingwa bitandukanye bikenera amazi.

Abagabo bari ku kiyaga bafatanyije inshundura ifite ibara ry'umutuku mo imbere mu mazi hahagaze umugabo wambaye ubusa hejuru ndetse no ku ruhande rw'amazi hahagaze undi mugabo ufashe inshundura wambaye ubusa hejuru ndetse wikenyeje agasharupe k'umutuku karimo amabara, hirya ye hahagaze undi mugabo wambaye umupira w'umweru n'umukara ndetse n'ipantaro y'icyatsi irimo uturongo tw'umweru.

Umugabo wambaye ingofero n'ishati irimo amabara y'umweru, umutuku ndetse n'umukara. Ufite indobo ibonerana mu ntoki, irimo ibiryo by'amafi. Uri kugaburira amafi mu kiyaga ndetse hirya ye hari igihuru gicucikanye gifite ibara ry'icyatsi. Inyuma ye hateretse indi ndobo nayo irimo ibyo kurya by'amafi ndetse n'umufuniko wayo ku ruhande.

Umubyeyi uri mu murima mugari uhinzemo ikawa inyuma ye hari agatete karimo ikawa zasoromwe ndetse ari gusoroma yerekeza mu gice cy'inyuma yambaye umupira utukura, ndetse yikenyeje n'ikoti mu mayunguyungu, yakenyeye igitambaro mu mutwe gifite ibara ritukura rivanzemo ubururu.

Abahinzi bari mu murima w'ikawa bari gusarura imbere hari abagabo babiri, harimo umwe wambaye ingofero y'urugara ifite ibara ry'umweru, ndetse harimo n'umukara wambaye ishati y'umweru ndetse ufite n'agatete inyuma mu mugongo. Imbere ye hari undi wambaye ingofero isa umutuku wambaye n'ikote rijya gusa nk'ivu.

Abaturage batatu bari imbere n'abandi babiri bari inyuma yabo. Bahagaze mu gishanga gihinzemo umuceri.

Abantu bari mu murima munini uhinzemo ikawa bari kuzisoroma, harimo umugore wambaye umupira w'umuhondo urimo amabaray'umutuku n'umukara ndetse ukenyeye ishashi, inyuma ye ahetse agatete ari kugenda ashyiramo ibyo yasoromye ndetse no hirya hari abandi bari gukora nka we.

Ubuso bunini bw'umurima uhinzemo ikawa hasi mu kibaya ndetse no hakurya hari ishyamba, hakaba n'undi murima uri hakurya uhinzemo ibihingwa bitandukanye.

Ikawa ifite amababi y'icyatsi ndetse harimo izihishije zifite ibara ry'umutuku n'izindi zitarahisha zifite ibara ry'icyatsi, imbere yazo hari umumama uri kuzisoroma witeze igitambaro mu mutwe ndetse wambaye n'umupira usa n'igitambaro yiteze.

Umugore uri gusoroma ikawa witeze igitambaro gitukura, kirimo amabara y'umweru y'utudomo ndetse yambaye ishati ifite amabara, umuhondo, umukara ndetse ikawa harimo imbisi ndetse n'izitarahisha neza, hirya hari ibiti byinshi by'ikawa.

Abahinzi bari mu murima w'ikawa, imbere hari umusaza wakinnye ikoti ry'ubururu mu mayunguyungu, ndetse wambaye ishati y'umweru, hakurya hari abamanitse amaboko harimo uwambaye umupira w'ubururu, ndetse hari n'ababyeyi bari inyuma y'umusaza biteze ibitambaro.

Umugabo wambaye ishati irimo amabara y'umweru n'umukara, n'ipantaro y'umukara ,uhagaze afashe ku cyapa gikoze mu mbaho gisize irangi ry'umukara, kiriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru, ku ruhande hari ibiti byinshi.

Agakarito karimo ibikoresho bikoreshwa kwa muganga byiganjemo uturindantoki tuzwi nka ga ndetse hari akandi gakarito ku ruhande kagaragaza ko ari habikwa imyanda, ibikoresho bimaze gukoreshwa.

Akabati karimo utujerekani tw'umutuku tureture dufite imipfundikizo y'umweru turiho ibyapa bishushanyijeho inka y'amabara y'umweru, ndetse n'umukara, impande yaho hateretse ibicupa binini bipfundikiye, biriho icyapa cy'icyatsi gishushanyijeho inka, intama ndetse n'ingurube.

Amakarito atandukanye, mu bubiko hagiye harimo amakarito y'umweru utavangiye ndetse n'afite: umweru, ubururu ndetse n'icyatsi.

Icupa ry'umweru ripfundikiye ririmo umuti w'amatungo, inyuma hometseho icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi ryanditseho n'amagambo y'icyatsi kibisi hashushanyijeho inka ifite amabara y'umweru n'umukara ndetse imbere yayo hari ihene n'intama by'umweru.

Abantu babiri bari kujyemura ingemwe; harimo umumama wambaye agapfukamunwa ndetse n'igitambaro, n'umugabo wambaye umupira wamaboko maremare utukura n'ipantaro y'umukara. Imbere yabo hari ifumbire y'imborera irunze.

kirango cya koperative ya Nyagatare itunganya ikanacuruza amata, kigizwe n'ibara ry'ubururu n'icyatsi n'umweru n'umukara, hagati hashushanyijemo inka y'amabara abiri, umweru n'umukara.

Abagabo babiri bari gusunika igare, umwe ari gusunika imbere undi inyuma, ku igare inyuma bahetseho inkwi, ndetse n'isuka ya rugori. Umugabo uri imbere yambaye ipantaro yubururu irimo akarongo kuruhande kamanuye k'umweru, ndetse uw'inyuma yambaye umupira wumukara n'ipantaro yumukara ndetse, yakenyeye umupira w'umutuku mu mayunguyungo.

Inka ndetse n'abashumba baziragiye, harimo izifite ibara ry'ibihogo, umweru ndetse n'umukara, harimo izambaye amaherena ku matwi y'ibara ry'icyatsi ndetse imbere yazo hari umugabo wambaye ikoti n'umupira ujya gusa umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara uzihagaze imbere.

Ihene nyinshi ziri ahantu hamwe harimo izifite ibara ry'ibihogo, zifite ibara ry'umweru, izifite ibara ry'umweru n'umukara, ndetse hirya hahagaze abantu barimo abagore ndetse n'abagabo harimo umugore ufite inkoni mu ntoki, ndetse iruhande rwe hahagaze undi mugabo ufite inkoni mu ntoki.

Umugore wambaye umupira w'ubururu ufite ijosi ry'umuhondo ndetse ku maboko hariho akabara k'umuhondo wambaye n'ijipo igizwe n'amabara umutuku ndetse n'umukara, inyuma ye hari umurima uhinzemo ibigori biri kwera ndetse byamaze kurabya.

Abagabo babiri bari gutambuka mu isambu bahetse amasuka ku rutugu, harimo umwe uri imbere wambaye ingofero y'umukara, ishati irimo amabara y'uturongo ndetse n'ipantaro y'umukara, inyuma ye hari undi wambaye umupira urimo amabara y'umweru, umukara ndetse n'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara.

Umugore uhagaze uri guseka ufite ibigori byinshi bivunguye mu ntoki inyuma ye hari ibindi bigori bidashuye byinshi bimanitse ku biti, ndetse yambaye ikanzu ifite amabara arimo utudomo tw'umukara, umutuku ndetse n'umuhondo.

Insina zitari nyinshi ndetse zitarana inyuma yazo hari igiti ndetse n'indabo nyinshi zicucitse, hakurya hari igipangu cyubakishije umucanga, imbere yazo ari igiti cy'intoryi.

Umurima uhinzemo imboga z'ubwoko butandukanye, harimo amashu ndetse n'izindi mboga rwatsi zitandukanye, hirya hari inyubako bubakira ibihingwa ndetse bagatunganyirizamo ingemwe kugira ngo zibashe guterwa.

Umurima w'urusenda urimo urusenda rweze kandi rutukuye.

Igiti cy'umwembe kikiri gito, giteye mu murima, kuruhande hari ibyatsi bya kimeza bigiye bitandukanye, byiganjemo inteja, inyabarasanya, ndetse n'ibindi byatsi by'amoko menshi.

Imashini ihinga iri mu gishanga ifite amapine y'inyuma manini ndetse n'ay'imbere, mato hejuru hicaye umugabo wambaye umupira w'amaboko maremare ugizwe n'amabara y'umweru, umukara n'ubururu ndetse n'umuhondo, hamwe n'ingofero y'umutuku, inyuma hari ibyuma bihinga ndetse ukikijwe n'igishanga gihinzemo umuceri.

Ishyamba ricucitse ririmo ibiti bigufi ndetse n' birebire, ryiganjemo igihu cyinshi cyane cy'umweru.

Umubyeyi uhagaze imbere yabandi. Uturuye imbabura iriho icyapa cy'umweru. Kirimo amabara y'ubururu n'umutuku. Wambaye agapfukamunwa ku kananwa. Witeye isharupe ndetse wambaye ibitenge by'icyatsi. inyuma ye hari umugabo wambaye umupira w'icyatsi n'agapfukamunwa k'ubururu. Kuruhande harimo uwambaye ikanzu ndetse n'agapfukamunwa k'umweru.

Ishyamba ririmo ibiti birebire ndetse n'ikibunda hakurya.

Ishyamba riri hakurya ryijimye, imbere gato hari ibiti bya kimeza byererutse ndetse n'igiti kiri hepfo gifite amashami menshi ndetse n'amababi menshi hepfo hari ibihuru bya kimeza bicucitse.

Ishyamba rinini riteyemo ibiti bigiye bitandukanye bitegeranye cyane ndetse rikagenda rikagera no hakurya, riteyemo ibiti bidacucitse.

Ibiti byinshi by'imyembe, biteye murongo ndetse byose bigiye, byarezeho imbuto z'imyembe.

Abakozi bari kwita ku bihingwa bambaye amataburiya y'ubururu ndetse harimo umwe wambaye ingofero, inyuma ye hari abandi babiri nabo bambaye ingofero bari kwita ku bihingwa.

Inyanya zeze ziri mu murima, harimo izihiji cyane, eshatu zitunze ku gati kamwe ndetse n'izindi ziri hirya zitarahishirana.

Ababyeyi bari mu murima w'imboga harimo umwe uteze igitambaro ufite indobo ariko kuhira, impande ye hahagaze undi mubyeyi uteruye umwana ndetse uri kumwosa ufite indobo y'icyatsi mu ntoki.

Intego yuzuyemo inyanya zihishije, impande yaho hateretse umugore ukenyeye igitenge cy'amabara y'umutuku ndetse n'ikigina, wambaye ikote rikunje ry'icyatsi kibisi ndetse ufite amafaranga mu ntoki yiganjemo inoti za bibiri. Ku ruhande hahagaze umugabo wambaye umupira w'umutuku uciyemo akarongo k'umukara ndetse ufite urunyanya mu ntoki. Wambaye ipantaro y'umukara.

Umugabo ufite isuka ya rugo uri guhinga wambaye ingofero y'umukara isengeri yumweru ndetse n'ikabutura imbere ye hateretse icupa ry'amazi ndetse hirya ye gato hari undi mugore nawe uri gutunganya umurima, hirya mu muhanda hari moto ebyiri imbere hari umumotari wambaye umupira w'umutuku ndetse inyuma hari undi wambaye ikoti ry'umukara ufite ingofero y'umutuku mu ntoki ya moto ndetse n'indi yambaye.

Abagabo babiri bari kuhira ndetse harimo n'umugore wambaye ipantaro y'umukara, umupira w'umuhondo ndetse n'ingofero, wambaye amadarubindi ndetse ufite n'andi madarubindi yashyize imbere mu gatuza k'umupira, harimo umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi, ifite amabara y'umweru, ubururu ndetse n'ikigina, n'undi mugabo wambaye ishati ijya gusa umuhondo iciyemo imirongo ibiri imanuye.

Umugabo ufite ihombo riri gusohokamo amazi uri kuhira ibihingwa mu murima, yambaye umupira w'umukara urimo ibara ry'umweru ku ijosi no ku maboko, ndetse n'ipantaro yakunje igera ku mavi ndetse n'inkweto za rugabire.

Umugabo uri kuhira ndetse hakurya hari ababyeyi bunamye bari gukora mu bihingwa n'umugabo wambaye insengero y'umweru wicaye, hakurya hari ikiyaga.

Umurima uhinze neza uteyemo ibihingwa, bihinze ku murongo, hagati hatambitsemo umupira ukwirakwiza amazi, hejuru hagiye hari udukoresho tugenda tuyapuriza, tuyanyanyagiza mu bihingwa mu buryo bwo kuhira, bujyanye n'ikoranabuhanga.

Umugabo wambaye umupira ujya gusa icyatsi wanditseho amagambo yandikishije ibara ry'umweru mu gatuza ndetse wambaye n'ingofero y'urugara y'umweru, imbere ye hateretse umurasire munini, ufite ibara ry'umweru ndetse n'umukara uciyemo uturongo tw'umweru.

Imashini yo kwifashisha kuhira imyaka ifite amapine y'umukara ndetse n'imipira iri gukwirakwiza amazi, hejuru hariho icyapa cy'umutuku cyandikishije amagambo y'umweru.

Abagabo babiri bahagaze bari kwitegereza hakurya, umwe amutungiye urutoki haribyo ari kumwereka, imbere yabo ari inkingi z'ibyuma, zigizwe n'amabara abiri umutuku n'umweru ndetse hepfo hari umugezi utemba.

Ikiganza cy'umuntu ufite umupira mu ntoki, urimo kuhira.

Abantu bahagaze mu murima munini uhinzemo ibigori ndetse harimo n'ibikoresho byifashishwa kuhira by'ikoranabuhanga, hahagazemo umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru ndetse n'ipantaro ya kake, ku ruhande hahagaze undi mugabo wambaye umupira w'umutuku ndetse n'ikoti ndetse n'umugore wambaye ingofero y'urugara n'ikoti ry'umukara.

Umugezi wa ruhurura utemba, hirya hari umusaza wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umupira w'umweru wikoreye umuzigo, ndetse inyuma ye hari abantu batatu barimo umugore uhagaze imbere wambaye umupira utukura ndetse ukenyeye igitenge, inyuma ye hari undi wambaye umupira utukura ijipo y'umutuku yiganjemo amabara, ndetse inyuma ya hari umusaza wambaye umupira utukura n'ipantaro y'umukara.

Igikoresho cya kijyambere cyifashishwa kuhira mu buhinzi kigizwe n'amapine ndetse n'imipira igiye itandukanye ikwirakwiza amazi mu bihingwa hakurya hari agasozi.

Umubyeyi wambaye ikanzu y'amabara atandukanye higanjemo icyatsi ndetse n'umweru, wambaye n'agapfukamuwa ufite umupira mu ntoki utukura, uri gusohokamo amazi ari kuhira ibihingwa.

Abantu bari mu gishanga bari guhinga, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, imbere hari umugabo ufite rozwari y'icyatsi, iriho umupira w'umukara uyifasha gukwirakwiza amazi ndetse umugabo yambaye umupira w'umuhondo, boti z'umukara ndetse n'ingofero y'ubururu, hirya ye hari undi wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara, imbere ye hicaye umugore wambaye umupira utukura.

Ishyamba rinini hakurya hari agasozi gateyeho ishyamba ndetse n'ibindi bimera bitandukanye, ririmo inyamaswa y'agasumbashyamba kari gutambuka kerekeza hakurya mu muhanda.

Imishwi y'inkoko iri mu kiraro hagati hateretse imbabura izizanira ubushyuhe ndetse ku ruhande hari udukoresho zinyweramo amazi, tugizwe n'amabara y'umweru ndetse n'umutuku.

Ingurube ziri mu kiraro ndetse ziri kurya, harimo ebyiri zigaragara neza, imwe yambaye ihena ku gutwi ndetse n'indi itagaragara neza iri hakuno mu kiraro gipavomye na sima.

Inkoko ziri mu kiraro cyazo zifite ahantu hatandukanye zinywera amazi ndetse ziri mu kiraro gifite urugi rw'umutuku n'amadirishya y'umutuku abonerana.

Ikiraro k'inkoko kirimo inkoko nyinshi zitandukanye z'amoko atandukanye ndetse n'amabara atandukanye. Harimo inkoko zifite ibara ry'umukara iz'umweru ndetse harimo n'iza mukongoro ndetse harimo n'inkoko zifite amabara y'utudomo tw'umweru ndetse tuvanze n'umukara. Hirya hari izihagaze hejuru y'ibiti bitambitse ndetse n'izindi zihagaze hasi.

Inka zifite amahembe maremare y'umweru ndetse zifite ibara ry'ibihogo, hari abagabo batatu n'undi utagaragara neza bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'amasarubeti y'ubururu.

Inka iri mu kiraro ifite iherena ku gutwi ry'umuhondo, igizwe n'amabara y'umweru n'ibihogo ndetse ifite n'umunyururu mu zuru, ikiraro gifite urugi rw'umuhondo.

Ihene nyinshi ziri mu gisambu ziganjemo iz'amabara y'ibihogo ndetse avanze n'umweru ndetse n'iz'amabara y'ibihogo, harimo iz'umukara n'umweru, hakurya hari abantu bari kuzitegereza, harimo uwambaye ingofero y'umutuku ndetse impande ye, hari umugabo wambaye ishati y'umweru.

Inka ziri mu kiraro, inyuma hari umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare ndetse n'ingofero, uhagaze inyuma yayo. Hari n'undi wicaye uri kuyikama, ku ruhande hari umugabo uhagaze wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara ufite igicuba mu ntoki, ndetse inyuma yabo hari inzu isakaje amabati y'ubururu ndetse n'inzu y'amatafari ahiye, iri hakurya y'umutuku.

Inka ziri mu ifamu harimo iz'umweru, iz'ibihogo, izifite amabara y'umukara n'umweru, hakurya hari umuntu wambaye umupira w'umutuku.

Inkoko nyinshi ziri mu kiraro aho hejuru yazo hamanitse udukoresho tumeze nk'indobo zicuritse zinyweramo amazi, gasa n'umweru hasi umutuku.

Ihene nyinshi ziri aho zikusanyirizwa, harimo izambaye amahena y'icyatsi, ziri mu mabara atandukanye, harimo izifite amabara y'umweru n'umukara, umweru n'ibihogo ndetse n'iz'umukara.

Inka nyinshi ziri mu kiraro hari n'izifite ibara ry'ibihogo, iz'umukara ndetse n'izifite ibara ry'umukara n'umweru, harimo iyifite iherena ku gutwi ry'umuhondo, hari umugabo wicaye ufite igicuba imbere ye, wambaye ingofero y'umutuku ndetse n'inkweto z'ubururu, n'undi uhagaze ufite igicuba mu ntoki.

Inkoko nyinshi ziri mu kiraro n'abagabo babiri bahagaze bambaye bote umwe yambaye bote z'umukara undi yambaye bote z'icyatsi ndetse bambaye imipira batebeje.

Ihene nyinshi ziri mu ishyamba higanjemo izifite ibara ry'ibihogo ndetse n'izifite amabara y'umukara n'umweru avanze, hakurya hari abantu bahagaze harimo abafite telefone bari gufata amashusho harimo umugabo wambaye umupira w'ubururu.

Ingurube nyinshi z'ibara rimwe, ndetse ziri no mu kiraro cyazo kimwe, ikiraro gifite urukuta ruteye igipande na sima ndetse n'umucanga, hasi gifite pavoma imeneye beto.

Ubutaka butose burimo ibimera bikiri bito biri kumera, ku ruhande hari ikiganza kibufasheho, ndetse hirya harikurasa izuba rituruka hakurya.

Imifuka myinshi iteretse ahantu hamwe yuzuyemo umuceri udatonoye. Imifuka y'umweru ifite amabara atatu ku ruhande; icyatsi umuhondo ndetse n'umutuku.

Imbuto zitandukanye harimo ibishyimbo by'ibitonore ndetse n'ibishyimbo byumye, amashaza yumye n'amashaza mabisi ndetse arimo n'ibuto y'ibigori.

Inzu y'ububiko irimo imifuka myinshi yagiye yangirika yacitse, iriho n'umweyo.

Ibiganza bine biriho imbuto z'ibishyimbo bitandukanye, ikiganza cya mbere kiriho imbuto y'ibishyimbo by'amabara, icya kabiri kiriho imbuto y'ibishyimbo by'icyatsi, icya gatatu kiriho imbuto y'ibishyimbo by'umweru ndetse n'icya kane kiriho imbuto y'ibishyimbo ivanze n'umutuku n'umweru.

Inka z'ibihogo z'amahembe y'umweru maremare, inyuma hari abagabo batatu ndetse n'undi wa kane utagaragara neza umugabo umwe wambaye itaburiya y'umweru ndetse na bote z'umukara uri gukora mu nka, ndetse inyuma ye hahagaze umugabo wambaye igiserubeti cy'ubururu, inyuma yabo bose hahagaze umugore wambaye itaburiya y'umweru, bote z'umweru ndetse n'ipantaro y'ikoboyi.

Ikiraro cyubakishije ibyuma bisize ibara ry'icyatsi harimo inka ebyiri, imbere hari inka y'amahembe maremare y'umweru y'ibara ry'ibihogo n'umugabo wambaye isarubeti y'ubururu na bote z'umweru ndetse n'ingofero y'umweru, hirya hari inka ifite amahembe maremare y'umweru, ibara ry'ibihogo yambaye ihena ku gutwi.

Abasore babiri bapfukamye hasi ndetse bafashe imbwa bari kuyivura, harimo umwe wambaye umupira w'umweru ikabutura y'umukara irimo akabara k'umuhondo ndetse n'inkweto z'umuhondo, ndetse kuru ruhande hicaye undi wambaye umupira w'umukara n'inkweto za kamambiri ndetse n'ipantaro y'ikoboyi wambaye uturindantoki tw'umweru.

Igikoresho umuvuzi w'amatungo atwaramo imiti kugira ngo igumane ubuziranenge, kigizwe n'ibara ry'ubururu ndetse n'umukandara w'umukara, gifite n'umupfundikizo w'ubururu.

Inka y'ibihogo ifite amahembe maremare ndetse n'iherena ry'umuhondo ku gutwi, inyuma yayo hahagaze abantu babiri umuhungu ndetse n'umukobwa, umuhungu wambaye igisharubeti gifite ibara ry'ivu ndetse na bote z'umukara, naho umukobwa wambaye igisarubeti k'icyatsi.

Abantu bita ku buvuzi bw'amatungo bari kwita ku nka harimo uwambaye itaburiya y'umweru, ndetse na boti z'umukara ku ruhande hahagaze uwambaye isarubeti y'ubururu, inyuma ye hari undi wambaye isarubeti y'ubururu bote z'umweru ndetse n'ingofero y'umweru, hirya ye ahagaze undi mugabo wambaye isarubeti y'ubururu.

Inzovu eshatu ziri muri pariki, inyuma yazo hari ubwatsi butohagiye, imbere hari ubutaka bwumutse ndetse bigaragara ko hari ahasa n'ahacukuye umwobo utari muremure.

Inyamaswa iri kugenda irisha hafi y'umugezi, ifite amahembe ameze nk'amashami, ifite ibara ry'ibihogo.

Inzovu ziri muri Parike hakurya hari imodoka y'abakerarugendo. Ihagazeho abantu hejuru bari kugenda bazitegereza.

Inyoni ebyiri zihagaze ahantu hamwe ndetse n'indi ihagaze ku ruhande iri kureba mu cyerekezo cyo hepfo, izi ebyiri zifite amaguru y'umutuku ndetse zifite ibara ry'umweru mu gatuza n'ibara ry'umukara mu mugongo ndetse n'indi yo hepfo ifite ibara ry'umutuku ndetse ifite n'umunwa ujya gusoma umutuku ufite ibara ry'umweru wererana ku ruhande ndetse n'ibara ry'umweru wijimye mu gatuza.

Utwana tw'ingwe tubiri duhagaze hamwe turi kureba mu cyerekezo kimwe.